Nk'uko mubibona ,uyu mudamu ari imbere kandi arahagaze afite mikoro mu ntoki. Iyi mikoro ayifashisha avugiramo kugira ngo byunganire ijwi rye ribashe kugera ku bantu benshi, kandi bamwumve neza. Ashobora kubabaza ibibazo akamenya niba koko bamwumva.

Aba bagore tureba hano bashobora kuba barimo n'abakobwa. Bagaragara nk'abantu bambaye mu bujyo bwa kinyarwanda. Bashobora kuba babyina cyangwa se bakaba bari mu yindi mihango ya kinyarwanda.

Kuri iyi foto turi kurebaho umusore mwiza ufite ikintu mu ntoki, iki kintu afite tucyita inanga. Iyi niyo nanga ya kinyarwanda abanyarwanda bacurangaga mu gihe bari kuririmba, bityo bikagenda biryoheye amatwi.

Kuri iyi foto turareba umugabo wishimye cyane akaba ari kubyina izi mbyino nizo twita imbyino gakondo zo mu Rwanda ibi bintu abantu barabikunda kubera ko bitwibutsa amateka y'igihugu cyacu.

Ahangaha turareba umukobwa mwiza wambaye umwenda, umwitero w'ubururu. Akaba ari kubyina mu kinyarwanda ibyo bita imishayayo. Uyu mukobwa arishimye rwose ku buryo n'umureba yumva yizihiwe.

Hano turareba umugabo. Uyu mugabo twamwita umucuzi kubera ko ari gufata ibiti akabibyazamo ibikoresho bitandukanye abantu bazifashisha mu ngo. Azabifata abibashyire nabo bamuhaye amafaranga.

Aha ni mu isoko haragaragara ibicuruzwa bitandukanye harimo imbabura ndetse n'indobo irimo imyuko. Iyi myuko yifashishwa mu guteka, nko guteka umutsima n'ibindi byo kurya mu ngo z'abaturage.

Aha turi kureba akantu kari ku giti. Aka kantu biragaragara ko kerekana ibimenyetso bitandukanye. Dukunda kubona udukoresho nk'utu mu bintu bikoresha amashanyarazi, aho dusangaho bimwe mu mabwiriza tuba tugomba kugenderaho, uko inzu imeze mu muriro w'amashanyarazi.

Kuri iyi foto turarebaho inzu ifite ibyiciro bitatu mu buryo bugaragara ko harimo imiryango itatu yo hasi ndetse n'iyo hejuru yubatse mu buryo bwa etaje kandi hasi turareba imodoka zitandukanye ziyajemo abantu baje muri iyi nzu.

Kuri iyi foto turarebaho abantu, hariho abagabo ndetse n'abagore umugabo umwe afite amataratara ku mupira we, kandi ari ahantu hubatse bigaragara ko iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba iriho n'irangi rikeya.

Kuri iyi foto turarebaho ibintu bitandukanye. Muri ibyo bintu bitandukanye turarebaho abantu ndetse tukabonaho n'imodoka. Izi modoka zitwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye bikabafasha kugera ku bandi.

Aha ngaha turi kureba ikiraro cyo mu kirere kiriho abantu benshi bari kugendaho. Aba bantu kandi bambaye udupfukamunwa, bivuze ko ari mu gihe cyari igihe cy'ibyorezo cyangwa se bafite ikindi bari kwirinda.

Aha ngaha turi kureba ibinyabiziga bitandukanye n'abantu bari mu muhanda. Aha kandi ni ho abantu bigira, iyo bagiye gutega, bakicara muri aka kazu mureba kubabatse hano. Moto cyangwa se izindi modoka zishobora gusanga abagenzi hano zikabajyana.

Aha turareba abakinnyi barimo bakina ndetse n'abandi muri sitade bari gufana. Iyi mikino ni umukino wa futuboro， ni amakipe ahura agahangana bigamije kongera ubumwe mu bakina.

Aha turareba abantu bambaye neza, hariho abambaye imyeru kandi bari kuvuza ingoma. Izi ngoma bari kuzivuza bakoresheje ibiti byitwa imirishyo, mu bigaragara bari mu Rwanda ahitwa i Remera.

Aha turareba abantu bari ku magare ibi tubyita turu di rwanda bijya bibaho aho abantu bagira amasiganwa bakirukanka ku magare bayatwaye mu byerekezo bitandukanye by'igihugu mu Rwanda birazwi cyane.